Nkuko bigaragazwa n'iyi mitwe uko ari itatu iri kumwe, igafatanya kwitwikira umutaka umwe, ikikingira imvura nyinshi cyangwa izuba ryinshi, ni nako ubwisungane mu kwivuza ''mituweridosate'', bukingira abantu iyo batanze umusanzu, maze uwayatanze ntarembere mu rugo.

Aha ni mu kabari ka viyayipi keza cyane hari udutebe twiza twinshi dufite ibara ritukura n'izindi zifite ibara rya beje ndabona na ekara hirya y'inkingi.

Hano ni mu kabari ndabona hari ameza ateretseho ibirahuri bibiri birimo inzoga, hari n'abantu bari hirya ariko ntabwo bagaragara mu maso, nabo hateretseho ibyo kunywa.

Hano ni mu kabari ni kuri kontwari hari udutebe turiho, hari abantu bicaye bari kunywera kuri kontwari, nanone hariho agacupa ka kirida.

Aha ngahabona abantu babiri, bicaye mu kabari kuri kontwari. Bari kureba televiziyo, muri kontwari harimo amacupa menshi, hari n'amafirigo ku ruhande.

Aha ndahabona imeza iriho ibirahure bibiri birimo icyo kunywa, hariho ibiryo, hariho amakanya n'ibindi bikoresho byo kumeza.

Aha ni mukabari kuri kontwari harimo umuntu mo imbere ukora muri kontwari, akaba hari udutebe tuyikikije dukikije iyo kontwari, hakaba hari aka etejeri karimo amacupa menshi atandukanye.

Imbere yanjye ndahabona kontwari nto ariko nziza iteretseho vaze n'ururabo rw'umweru, hariho n'ikirahure kirimo divayi. Imbere hari etajeri irimo ibinyobwa bitandukanye birimo n'inzoga, nanone kuruhande hari firigo yuzuyemo inzoga nyinshi.

Uyu ni umucuruzi aracuruza. Afite mu ntoki akamashini ka piyowesi n'ikarita ya viza, kagaragaza ko ushobora kwishyura ukoresheje iyi karita, kuri aka kamashini, mu buryo bwa pesa pari, maze ukishyura ibyo wahashye.

Iki ni icyapa kinini cya skol, kiriho icupa rya skol malt, kiriho abantu bishimye cyane, bigaragara ko bakunda kunywa inzoga ya skol malt.

Aka kabari ni keza karadekoye hari udutebe dutukura, utumeza dutukura, hari ibiraahure kumeza aha ni hanze kandi ni nijoro mo imbere naho hari amatara ari kwaka.

Hano ni mu kabari ni muri kontwari harimo umukobwa wambaye umupira w'umukara ni nijoro amatara ari kwaka. Ndabona n'abantu hirya bari kunywera kuri kontwari.

Aha ndahabona abantu batatu, babiri ni abakobwa, hagati harimo umugabo. Bose bambaye amabaje atukura, bigaragara ko ari abakozi bakora hano mu kabari. Bari muri kontwari, inyuma yabo hari etajeri irimo inzoga nyinshi.

Aha ni mu kabari ndabona intebe hirya no hino nkabona kontwari imbere, nkabona icyapa cya henikeni, ndabona etajeri mo imbere harimo ibinyobwa byishi.

Hano ndabona ari mu kabari, hari ikirahure giteretse ku meza kirimo inzoga, ikirahure cyanditseho amusiteri. Ndabona nanone ahantu hari ibirahure hirya bitagaragara neza hejuru y'aga televiziyo, ariko ubwo ni muri etajeri, ni muri kontwari.

Aha ndahabona imeza iteretseho icupa ry' mstel n'ikirahure kirimo inzoga bigaragara neza n'ikindi kirahure kitagaragara neza n'irindi cupa ritagaragara neza, inyuma y'ayo meza hari umuntu uhahagaze wambaye umupira utukura, aha ni mu kabari, kuri ayo meza hariho igikapu ndetse hirya hari n'ama ekara ari kugaragara.

Hano ni ku muhanda hari icyapa kinini kiza k'icyatsi kibisi kiriho icupa rya virunga n'ikirahure cyuzuye inzoga iri kubira. Hari umuntu urimo unywa inzoga ariko utagaragara neza n'abandi bishimye cyane.

Hano hari umugabo wegamye ku ntebe nziza ya biro y'umukara, wambaye umupira wa rakosite ufite amabara y'umutuku, umweru n'umukara muke, afite igitabo gifunguye mu ntoki ze kiri ku meza ya biro na yo meza.

Hano ni mu kabari, ndahabona ameza manini ya mitsingi ya burarirwa, ndahabona amacupa menshi atandukanye ateretse ku meza ndetse n'abantu bicaye bigimye, bahuje urugwiro.

Hano ni mu kabari. Banerekana mace. Harimo abantu benshi bahagaze n'abicaye, bari kunywa inzoga banareba mace kuri ekaranjeya.

Ndabona akamashini ka POS hamwe n'ikarita ya visa cadi ko bigaragara bagiye gukoresha visa cadi mu kwishyura ibihahwa bahashye.

Imbere yange ndahabona kontwari ni mukabari, hano hari umuntu wambaye imyenda y'umweru wicaye kuri kontwari ari kureba televiziyo, mo imbere harimo umuntu wambaye umupira utukura.

Aka ni akabari karimo intebe n'ameza biteguye neza hari isuku ihagije, imbere yanjye ndahabona kontwari ihagazeho abantu babiri nanone mo imbere harimo ibindi bintu byinshi.

Imbere yange ndahabona akabari gafite kontwari idekoye neza y'umweru n'udutebe tw'umweru ifite udutara twinshi hajuru yayo ndetse ifitemo n'ibinyobwa byinshi by'amoko menshi atandukanye mu imbere.

Iyi ni menu y'ibinyobwa by'amarikeri mu kabari, aho bagaragaza ibiciro by'amarikeri uko bihagaze, haba ku macupa manini ndetse haba no ku turahure.

Imbere yanjye ndabona icyapa cy'amabara y'umweru n'umutuku cya bamasi pabu. gishushanyijeho icyapa cya amositeri biya kiri hejuru y'inzu, ndabona n'izindi nzu ku rusenge no hakurya hari ama etaje n'ibiti.

Aka ni akabari keza, harimo kontwari hari n'intebe kuri kontwari, imbere hari etageri, hirya no hino hari intebe zihateretse.

Hano ndahabona abantu bageze kuri bane bicaye bishimye, bari kwica akanyota kumeza hariho amacupa ya fanta n'icupa rya mitsngi n'ibirahure.

Aha ni mu kabari kuri kontwari ndahabona intebe eshatu zitagaragara neza kuri kontwari, ndahabona firigo iriho iraka na etajeri hirya irimo ibinyobwa ariko naho bitagaragara neza ni nijoro.

Ndahabona icyapa cya mausiteri biya, ni kinini cyanditseho bahamasipabu kiri hejuru y'inzu.

Hano ni mukabari mu masaha ya nijoro, ndahabona contwari iteguye neza mw'imbere hakaba hari etageri iriho ibinyobwa byinshi by'amoko atandukanye, harimo firigo itukura ndetse hari na sikirine hejuru ya firigo.

Aha ndabona ibyapa bitandukanye biri hejuru ku mazu hari icya bahamasi pabu cyanditseho amusiteri biya ikindi kiriho sikolu hino ndiho ndahabona ibisenge by'amazu hejuru, i nyuma hari ama etaje nanone inyuma y'ibiti biri inyuma ya bahamasipabu.

Hano ndahabona meni y'ibiciro by'ibinyobwa, aho laga santilitiro mirongo itatu n'eshatu igura igihumbi, Virunga santilitiro mirongo itatu n'esheshatu ikagura igihumbi, Panashe igihumbi, Tasika icy'atanu, siminofu ayisi icy'atanu, Ginesi icy'atanu, sinapu bibiri, garana bibiri, Bavariya zero alukolo bibiri, Bavaliya alukorize bibiri atanu, Sikolo kanete bibiri n'ibindi.

Iyi ni baresito ifite ameza n'intebe biteguye neza, hirya hari umuntu wicaye kuri kontwari yambaye umupira w'icyatsi ari kureba umupira kuri televizeri.

Imbere yanjye ndahabona menu iri mu bwoko bw'ikirango bita balicodi aho umuntu agisikana kugira abone ibiciro byibyo bacuruza.

Aha ni mu kabari ni mu masaha ya nijoro ndabona imeza iteretseho icupa ry'amusiteri, hariho n'ibirahure biriho inzoga, hariho igikapu cy'abadamu hariho n'umuntu uri hirya.

Ibi ni ibirahure bitatu biteretse ku meza n'ibindi bibiri birimo seriviyeti, harumu aragaragara igitabo ashobora kuba ari mini umuntu uri kureba menu hano hashobora kuba ari muri hotel.

Aha ngaha ndabona icyapa kiriho icupa rya amusiteri n'ikirahuri kirimo inzoga, hashobora kuba ari akabari, handitseho bare resito, ni akabari. Hino hari ikindi cyapa kiriho umukobwa n'imisatsi ushobora kubonaho, hakorerwa ubwiza.

Ahangaha ni mu kabari hari umuntu wicaye kuri kontwari wambaye ingofero bariho baramwakira, mo imbere hari undi muntu uri kumwakira ukora muri kontwari nyine ubu agiye kumuseriva.

Ndahabana icyapa kinini cy'icyatsi cyanditseho ngo New Silver hasi hariho icupa ry'ikirahure kirimo inzoga cya Virunga n'umuntu utagaragara urimo kunywa inzoga mu imbere hanyuma imbere ndahabona inzu ariko itagaragara neza.

Imbere yange ndabona hateretse icupa rya virunga ririmo inzoga, ryegeranye n'ikirahure kiza cyane cyuzuye inzoga nacyo kihateretse.

Hano ni mu kabari, ni mu masaha ya ninjoro, hari amatara menshi yiganjemo ay'icyatsi kibisi, nkaba mbona abantu hirya, ndabona n'icupa rya tasika.

Imbere yajye hari abantu bicaye k'umeza b'abazungu nimuri bare resito yiyubashye, bari kurya hari umuntu uje kubaseriva ni n'ijoro kandi amatara ari kwaka.

Hano ndahabona imeza nini iriho ibirahure birimo inzoga n'amacupa y'inzoga n'utundi tuntu twinshi. Mu masaha y'ijoro biragaragara ko ari mu kabari.

Iyi ni kontwari y'akabari kiyubashye hariho amacupa ya rikeri ari kuri kontwari, hariho na etajeri amacupa y'amarikeri apanzeho, hariho imashini ku ruhande, hariho n'umuntu uhagaze ariko utagaragara neza.

Hano ni mu kabari ni mu masaha ya nijoro ndahabona kontwari n'abantu bicaye kuri kontwari, hari amatara yaka amabara atandukanye yiganjemo ubururu.

Aha ndahabona fagitire yo mu kabari igiye guhabwa umukiriya, ikorwa n'akamasin ibiyemu, gafasha Rwanda reveni gukusanya imisoro no kurwanya abayinyereza.

Imbere yange hari icyapa cya Kigalizi giriri andi ciri, resito bare sawuna masaje cya Amusiteri biya kiriho icupa rya Amusiteri n'ikirahure cyuzuye inzoga.

Hano ni kuri EQUINOXE BAR ,uramutse ubakeneye wahamagara zeru ,karindwi ,iminani ibiri , mirongo ine n'umunani ,mirongo itandatu n'agatandatu ,mirongo inani n'agatandatu cyangwa se zeri ,karindwi ,umunani ,mirongo irindwi n'icyenda ,mirongo inani n'umunani ,magana atandatu mirongo irindwi.

Aha ndahabona amacupa atatu y'inzoga ariko y'ubwoko butandukanye, irya mbere ni mitsingi, rya kabiri ryanditseho sikolu orya gatatu ryanditseho amusiteri. Abiri ni aya birarirwa naho rimwerikaba ari arya sikolu.

Imbere yange ndabona icyapa kinini kiriho icupa rya Mitsing giteretse ku mapave inyuma yacyo hari imodoka, imbere yacyo umutaka wa MTN Mobile Money hari umuntu urikugenda asanga uwo mupapa, hirya hari inzu y'igorofa

Aya ni amarembo y'akabiri rowase rowanje gafite icyapa cy'umweru cy'amabara y'umweru kiriho amositeri biya karafunguye hari umuntu uhagaze ku marembo yako, ndabona n'igare riparitse ku mapave ku marembo yako, hamwe n'abamotari bahetse abagenzi.

Iyi foto iriho icyapa kiriho icupa rya henikeni, kiri gusuka inzoga mu kirahure, nanone inyuma y'ifoto hari kugaragara inzu igeretse ya etaje.

Aha hantu ndahabona intebe, hari firigo ya sikolo, hari amacupa arimo inzoga, amatara ari kwaka, ni mu kabari kandi ni ninjoro.

Aha haragaragara akabari mu masaha ya nijoro, hari abantu bahagaze kuri kontwari bari kwiyakira, hari intebe hirya no hino na none hari abandi bantu bicaye ku ruhande.

Ndahabona akabari karangwa n'icyapa cyanditseho Barbecue House, hariho amacupa y'inzoga , hakaba n'ikindi cyapa cyiri ku ruhande cya Virunga kubera icupa cya Virunga n'ikirahure cya Virunga, hari n'udukindo.

Aka ni akabari kameze neza ndabona kontwari mo imbere harimo firigo hari n'ibinyobwa bitetse kuri etajeri, hanze ndabona ahantu hari urukarabiro ndabona n'amatara ari kwaka.

Hano ku ifoto ndahabona igikuta cy'amabara y'umuhondo, hakaba handitseho ngo sikoro. Hasi hari amapave ashashe neza uko bigaragara ni mu gipangu cyo mu kabari.

Hano imbere yange ni muri kontwari aho mbona akaetajeri kadekoye neza, hariho inzoga z'amoko menshi ziganjemo amalikeri na divayi. Nanone ndahabona umuntu ufite telefone mu ntoki.

Hano ni mu kabari, ni ninjoro, ndabona abantu benshi bicaye ku ntebe ziri kuri kontwari, bari gufata icyo kunywa. Mo imbere hari kwaka amatara, nubwo hatagaragara neza, ariko ni muri kontwari.

Ndahabona abantu babiri bari muri kontwari iri mu kabari, bambaye impuzankano y'amashati y'igitare ndetse n'amajire ya kaki. Ndabona udutebe turi imbere ya kontwari, turi ku murongo.

Imbere yanjye hari imeza iriho icupa rya likeri n'ibirahure, hari abantu bahari ariko hagaragara amaboko gusa bashyize ku meza bari gusangira bishimira ibyo bagezeho.

Iki ni icyapa kiri ku kabari kari ku muhanda wa kaburimbo, kiriho icupa rya Sikoromarite ririmo inzoga, kiriho n'abantu bishimye cyane bigaragara ko bakunda Sikoromarite.

Imbere yange ndahabona akameza n'udutebe tubiri tw'umukara turi mu nguni mu nzu yubakishije amatafari ahiye, afite urugi rufunguye rufite ibara rya giri n'idirishya rya giri hanze hari kaburimbo.

Aha ndahabona abantu babiri umwe afite viza kadi undi afite piyoyesi ya pesapara bivuga ko ushobora guhaha hanyuma ukishyura ukoresheje viza kadi kuri piyoyesi ya pesapara.

Hano ni mu kabari ndabona umuhungu wambaye neza, hanyuma nkabona muri kontwari ahantu hamanitse ibirahure, nkabona amacupa hirya no hino y'inzoga z'amarikri, ni nijoro amatara ari kwaka.

Hano ni mu kabari imbere yange ndahabona kontwari hariho udutebe kuri kontwari na none hari umuntu uhagaze muri kontwari, hakaba hari firigo yaka, hirya harimo inzoga zitagaragara neza n'umuryango.

Hano ni mu kabari ni kuri kontwari, ndabona kontwari, ndabona intebe ukora kuri kontwari yicaraho, nyuma yayo ndabona akayetajeri gapanzemo inzoga zitandukanye, hirya yako hari firigo ni ninjoro.

Aha ndahabona akabari kameze neza, ni mu masaha ya nijoro, amatara ari kwaka, hari intebe hirya no hino n'ameza biteguye, ndabona amaguru arambuye ku ntebe y'umuntu ushobora kuba yicaye ku yindi ntebe byegeranye.

Imbere yange ndahabona icyapa kinini cyane cya Atarasi resitorenti andi bare, cyo kwa Antheli na Fanny. Kiriho icupa rya amusiteri n'ikirahuri cyuzuye inzoga.

Iyi ni resitora iteguye neza harimo intebe n'ameza, hirya no hino Hari abantu bagiye bicaye mu matsinda bari gufungura. Ku gikuta naho ndahabona televiziyo.

Hano ni mu kabyiniro, hari abantu bahagaze bafite amacupa mu ntoki bari kubyina, mo imbere hari kontwari, hari n'inzoga mu tuyetajeri.

Imbere yanjye hari meni yo mu kirango cya barlcord ya bar and restaurant aho bigusaba gusikana iyo kode kugirango ubashe kuyisoma maze umenye ibiciro byaho.

Iyi foto igaragaza kontwari y'akabari keza ifite utuetajeri turi ku gikuta turimo inzoga, hakaba hari na furati iri kwaka.

Hano ni kuri dayali y'inyange, ndahabona icyuma gikonjesha amata giteretse ku maguru yibyuma afite irangi ry'ubururu. Imbere yacyo hari ijerekani y'umweru iriho umubirikira w'ubururu hamwe n'akadobo, naho hirya yacyo hari udutebe tubiri twa palasitike dufite irangi ry'umweru.

Iyi foto ndayibinaho abantu babiri, hariho umusaza w'imvi zabaye uruyenzi, n'umusore uteruye akabido k'umuhondo, hakaba hari etajeri irimo utubido ndetse n'amajerekani y'umuhondo, hakaba hari kontwari iteretseho indobo zirimo amandazi.

Hano ndahabona umugabo uri gusuka amata mu cyuma gikonjesha, ayakuye mu gicuba yambaye ipantaro y'ubururu, n'umupira w'umukara aha ngaha umenya ari kuri dayari.

Imbere yanjye ndahabona umukobwa ufite ijage y'icyatsi kibisi, ari gusuka amata mu kabido k'umweru akoresheje umubirikira w'ubururu, hari n'icyuma gikonjesha amata, hari ameza ateretseho utubido n'ijage hamwe n'undi mukobwa uri mu idirishya utegereje amata.

Imbere yanjye ndahabona ameza y'umukara ariho isahani y'umweru ipanzeho keke zikoze neza zifite imigongo ku ruhande, iruhande rw'iyo sahani hari iyindi kake nayo imwe iri kumeza, hirya y'isahani hari udufuniko tw'umweru dufunika keke tubiri.

Aha ndahabona umukobwa ari muri kontwari ya kantine ifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo afashe akajerekani k'umuhondo hateretse n'amateremunsi menshi.

Aha ndahabona urugi rufunguye rusize irange ry'ubururu, hariho n'icyapa gishushanyijeho inka handitseho ngo inyange milike indasitirizi.

Aka ni agasahani keza gateretse ahantu hafite isuku hariho amandazi menshi y'uruziga, hejuru hari irindazi risatuyemo kabiri rigaragaza ubwiza bwayo mo imbere.

Hando ndabona ameza ariho igikombe kirimo amata, harimo isahani iriho ibiryo, hirya hari seriviyete n'indi sahani iriho ubusa, aha ni muri resitora.

Iyi ni imeza baponderaho iteretseho isiniya, iriho amasambusa atunganyije, ategereje kujya mu mavuta kugira ngo atunganywe, aze guhabwa abakiliya.

Hano hari agasahani gatatseho utubara twiza, kari ku meza y'umweru kandi hariho capeti nyinshi zigerekeranije.

Imbere yange ndahabona amateremusi abiri, imwe ni iy'icyuma, iyindi n'iya parsitike, ndahabona na none akadobo karimo ibintu by'ibiribwa.

Ndabona abantu bishimye bageze kuri batanu, bose bafite ibikombe by'amata, bari mu gakatine bariho baranywa bakora na ciyazi, bose baseka barishimye cyane rwose.

Kuri iyi foto hariho umuntu wambaye ishati ya karokaro, hariho firigo, hari intebe y'ubururu, intebe y'umweru, imeze atagaragara neza, aka etajeri k'ubururu gatoya ka palasitike ndetse no ku gikuta n'ubururu n'umweru.

Aha ndahabona umuryango ufite inzugi z'ubururu ufunguye uriho icyapa k'Inyange, hariho na kandagira ukarabe, hariho indobo y'icyatsi n'akabasi k'icyatsi. Imbere yaho hari intebe za burarirwa hari n'umutaka w'umutuku.

Hano ndahabona abadamu babiri bari imbere yamafirigo arimo ibyo kunywa bikomoka ku mata. Umwe afite agakarito karimo udupaki tw'amata, hejuru hariho n'utundi dukarito duto twamata, dutatu. Undi afite udukarito tw'amata, tubiri mu ntoki.

Aha ndahabona etajeri y'ubururu iriho utubogisi turimo ibiribwa, hakaba hari amasahani nanone kuri iyo etajeri nkaba mbona igikuta cy'ubururu n'irido inyuma na firigo itagaragara neza hagaragara igice.

Ndabona umwana utagaragara neza mu maso afashe yawurite ari kunywa ndetse hari n'urundi rutoki bigaragara ko umubyeyi ari kumunywesha yawurute.

Imbere yanjye hari imeza ya purasitike iteretseho igikombe cy'ikirahure kirimo amata, hafi yacyo hateretse indi isahane.

Ndabona umukobwa w'inkimi mwiza yambaye amaherena ku matwi ariko hagaragara ugutwi kumwe ari kureba ku ruhande yishukushije ibisuko byiza yambaye n'igipira kinini ariko kiza.

Hano ndahabona isahani y'umweru, iriho amandazi, arayuzuye. Hakaba hari amandazi abiri ari hejuru, asanaho yariweho kuko ari ibice.

Icyuma gikonjesha amata, firigo, umuntu uhagaze, kontwari iriho indobo ebyiri z'amandazi, hari etajeri irimo utubido ,n'amajerekani y'umuhondo, hari ameza ndetse n'udutebe.

Hano ndahabona icyuma gikonjesha amata cya Inyange Milk Industries akaba ari muri Cantine haba hari n'ibindi bintu bikorwa na Inyange Milk Industry harimo umukobwa ukoramo n'abantu baje kugura ibintu.

Aha imbere yange hari agasahani keza gashushanyijeho uturabo, kariho irindazi, kariho na seriviyete, gateretse ku meza iriho igitambaro kiza.

Hano hari umugati, pe nkupe, ukataguye, hari n'akantu k'akamvilope wajemo hirya yawo, biri ku meza.

Hano imbere yange ndahabona kontwari nziza cyane, nkahabona etajeri nziza cyane kandi byose birimo ibintu bikomoka kumata, harimo amata, yawurute, n'ibindi...

Iyi foto iriho umubyeyi usutse wambaye imyenda y'amabubu yo mu bitenge, hari agakombe kari imbere ye ku meza ndetse yicaye iruhande rwa furigo.

Uyu ni umuryango ukinguye urimo amakaro hasi no ku nkuta, hari umukobwa wambaye ibitukura. Hari ameza, intebe, icyuma gikonjesha amata hari n'igare riparitse ku mu ryango hafi y'irindi.

Imbere yange ndahabona agakombe gafitwe n'umuntu mu ntoki ka yahurute y'inkeri gakorwa n'uruganda Mukamira dayari limitedi.

Iyi ni kantine hacururizwa amata, hari icyuma gikonjesha amata, hari ameza ateretseho ijagi y'ubururu indobo y'ubururu hari kontwari nziza irimo amagi hari n'abantu bahagazemo.

Ndahabona umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, afite akabido mu ntoki ariho aravoma amata mu cyuma gikonjesha amata, cyanditseho Inyange milk zone.

Aha ni mu nzu ifite isuku irimo amakaro hasi ndetse no ku nkuta. Irimo ibyuma bitandukanye bikonjesha amata, bigaragare ko ari ku ikaragiro ry'amata aho bayakusanyiriza bakayabika mu byuma byabugenewe.

Aha ndahabona umugabo wambaye isaha umupira w'umweru, afite ijage mu ntoki ari gusuka amata mu gakombe ka purastike afite. Ari imbere y'icyuma cy'amata, bigaragara ko ari guseriva amata.

Ndabona uducupa dupfundikiye turimo yawurute n'udukombe kamwe kubitse ku kandi natwo ni utwayawurute ndetse hari n'icupa ry'amazi ya nire.

Iyi ni stand ya Mukamira Diary Ltd, aho harimo abakobwa babiri bambaye imipira y'ubururu bari kumurika ibintu bya Mukamira Diary Ltd.

Ndahabona ameza ariho ikirahuri kirimo amata, hariho n'ikaramu. Ndabona intoki z'umuntu utagaragara ariko zifashe keke.

Iyi foto iriho umubyeyi wicaye iruhande rwa firigo itukura, ifite icyapa cya kokakola, afite terefone mu ntoki, ari kureba imbere ye ahantu hari agatebe katagaragara neza k'ubururu.

Ndahabona umuntu w'umumama utagaragara neza yicaye hafi ya firigo ifite ibara ritukura, hari ibikombe by'amata biri imbere ye na none hari udutebe dufite ibara ry'ubururu kamwe akicayeho akandi kari imbere ye.

Imbere yanjye hari umugabo n'abana babiri baje kugura amata hari n'umukobwa uri kubakira, hari icyuma gikonjesha amata, amacupa menshi ya jibu ari ku makaro, hamwe n'icyapa cya momopeyi kiriho kode yo kwishyuriraho kiri ku gikuta cy'ubururu.

Aha ndahabona umudamu urimo guseka afite ijage muntoki irimo amata nkabona ameza iriho ijage numufuniko w'ubururu hirya inyuma yaho hakaba hariyo intebe y'umweru.

Aha imbere yanjye ndahabona icyuma kinini cya Inyange miliki zone hakaba hari abantu imbere yacyo umwe ari kuvoma amata muri icyo cyuma, hirya hari aka etajeri kanini gatondetseho ibinyobwa bya Inyange.

Hano ndahabona umumama yambaye umwenda wo w'igitare hejuru, akaba ahagaze inyuma y'ahantu hateretse utubido tw'amata n'amayawurute, nanone ndabona imiseke inyuma ye.

Hano hari inzu ifite imiryango myinshi y'ubucuruzi. Hari inzu ifite icyapa cy'ubururu, mo imbere harimo icyuma gikonjesha amata, imbere y'uwo muryango hari imodoka ihaparitse.

Hano hari imeza iteretseho utubido tw'umweru turimo amata. Nanone hariho udukarito tw'ubururu natwo turimo amata.

Hano hari firigo irimo ibinyobwa bitandukanye, hari icyuma gikonjesha amata cya mukamira hari amazi ari muka etajeri hejuru no hasi

Hano ni kuri ikaze dayari hacururizwa ibintu bitandukanye hariho amata y'inyange, yawurute z'inyange, amaji y'inyange, amazi n'ibindi byinshi.

Imbere yanjye hari kantine ifunguye, ifite inkuta zisize ibara ry'ubururu n'umweru, ifite imiryango isize amabara y'ubururu. Mu imbere harimo kontwari y'ubururu n'umweru n'akameza k'ubururu.

Hano ndi kuhabona amandazi meza nkaba ngiye kuyabara rimwe, abiri, atatu, ane, atanu, atandatu, arindwi, umunani, ikenda, icumi, cumi na rimwe yose hamwe ni amandazi cumi na rimwe.

Hano hari indobo ebyiri, indoba imwe irimo amandazi, irapfundikiye, iyindi ndabo nayao rapfundikiye hejuru hariho icyuma giterura amandazi kugirango atajya ho umwanda mugihe cyo kuyaseliva ziteretse ku meza kuri iyo meza hariho n'ikaramu.

Ndabona utubido tune tw'umweru turi ku murongo twandikishijweho marikeri z'icyatsi, ubururu n'umukara. Hari akandi kamwe k'umweru kegeranye n'ak'umuhondo twose turapfundikiye, imbere yatwo hari igicuba gipfunduye.

Iki ni icyuma gikonjesha amata cya inyange mirikizone giteretse ku maguru asize irangi ry'ubururu, hafi hari udutebe n'akameza hari n'ikijerekani giteretse kiriho umubirikira n'akadobo iruhande rwacyo.

Kuri iyi foto ndabonaho udukombe twinshi twa yahurute dupfundikiye neza, hakaba harimo uturiho duhagaze neza hakaba hariho n'utundi twubitse ku tundi.

Hano hari ifoto iriho agasahane k'umweru, kariho keke eshatu. Keke ebyiri ziteretse ku gasahane naho iyindi keke imwe iri ku gasereviyete.

Ku ifoto ndahabona umwana ufita agatelefone mu ntoki, iruhande rwe hari igicuba gipfundikiye, inyuma ye hari abantu babiri bambaye amajire atukura ndetse hari n'imeza y'icyuma iruhande rwabo.

Kuri iyi foto hariho indobo irimo amandazi abiri, harimo n'icyuma bakoresha bafata irindazi kugira ngo bataryanduza bagiye kuriha umuntu.

Iyi ni kantine aho bacururiza ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye bidasembuye. Ndabona umuntu uri muri kontwari ari guhereza umukiriya akabido k'amata yaguze.

Ibi ni ibicuba by'amata bipanze neza ku murongo biteretse mu nzu irimo amakaro, ahangaha hashobora kuba ari kuri dayari ahantu bakusanyiriza amata.

Imbere yanjye ndahabona ikurete y'amagi iriho amagi icumi, iyindi myanya iriho ubusa, iteretse ku kintu cy'igishitingi cy'ubururu.

Ndabona abantu batatu bari muri kantine hari icyapa cyanditseho ngo " Hano hari amata meza y'inka," hari ameza hariho n'igikombe cy'amata umwe muri bo yambaye ingofero y'ubururu.

Iyi foto iragaragaza abantu batatu. Babiri baricaye barimo kunywa amata, undi umwe arahagaze, yambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari we uri kubakira.

Imbere yange hari umugabo wicaye ku gatebe ka purasitike afite akabido mu ntoki agiye gusukamo amata ari gukura mu cyuma gikonjesha amata kugira ngo ayahereze umukiriya uhagaze imbere ye.

Hano ni muri kantine, harimo abantu bafite ibikombe mu ntoki, bariho banywa amata, bicaye ku dutebe twa parasitike, hari n'ameza ya parasitike, y'umweru. Hirya hari umuntu wicaye muri kontwari, hari ha etajeri irimo amata.

Aha hari akaetajeri k'ubururu kari mu nzu nayo isize irange ry'ubururu hateretsemo mu kaetajeri amacupa harimo amaji, hari kontwari isize irange ry'umweru irimo amagi n'ibindi, hirya hari indobo nayo y'ubururu iteretse hafi y'icyocyezo.

Imbere yange ndikuhabona utubido twinshi twa yawurute, hamwe n'udukombe twa yawurute byose bipanze neza bikorwa n'urugana ruba mu Rwanda rwitwa masaka famuzi.

Kuri iyi foto hariho indobo y'umweru, hariho n'umufuniko wubukuye, isa n'aho ipfundikiye agace gatoya irimo keke,

Imbere yanjye ndahabona isahane nziza y'umweru iriho amasambusa. Isambusa imwe yariweho, biragaragara ko aya masambusa akoze mu nyama.

Hano ndahabona akabido k'umweru gateretse ku meza gafunze neza, inyuma yako hari umuntu ugaragara amaguru wambaye ipantaro y'ubururu.

Aha ndahabona icyuma gipfundikiye neza, kikaba giteretse ahantu har' amakaro hasi no kunkuta hakaba har' amakaro, gishobora kuba ar'icyuma gikonjesha amata.

Hano haragaragara intoki z'umuntu uri kurya keke ayifatishije seriviyeti, imbere ye hari udutebe, hari n'imeza hamwe n'isahane iteretse ku meza yakuyeho keke.

Imbere yanjye ndahabona kantine ifite kontwari isize irange ry'ubururu n'umweru, harimo imbuto, ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye ndahabona n'umugore wambaye imyenda y'ubururu n'umweru y'abasilamukazi waje guhaha.

Uyu ni umuntu wambaye ikote ry'umukara hirya ye hari icyuma gikonjesha amata cya Nyanza miriki indasitirizi kiri mu nzu isize irange ry'ubururu n'umweru uko bigaragara ahangaha ni ku ikaragiro.

Kubona umuhungu wicaye ahindukiye areba inyuma afite agaterefoni mu ntoki katagaragara neza, inyuma ye hari amaji, nanone hari umukobwa uhagaze ariko utagaragar mu maso ahagaze hafi y'icyuma gikonjesha amata iruhande rw'uwo muhungu.

Kuruhande ndabona inka y'imbyeyi ya firizone, nanone ndabona umuryango ufunguye hari abantu bazanye amata n'abandi bari kuyakira uko bigaragara ni ku ikusanyirizo, hazwi ku izina rya emusisi cyangwa miliki korekishoni senta.

Iyi ni ifoto y'icyapa cy'ubururu cya Inyange miliki zone, hariho ibintu byose inyange ikora. Hariho amata, amaji, yawurute, amazi n'ibindi.

Hano ndahabona icyuma gikonjesha amata cyo muri Nyanza miliki indasitirizi, kiri mu nzu irimo amakaro ndetse yubakishije amatafari ahiye.

Aha ndahabona amaboko abiri afashe isiniya nziza iteretse ahantu hafite isuku, ariho amandazi mato y'umuhondo menshi, bigaragara ko aryoshye cyane.

Imbere yanjye ndahabona abantu batatu, babiri bambaye imipira itukura, undi umwe yambaye umupira w''umukara, bose bafite udukombe turimo yawurute, bari mu iduka ricuruza amata na yawurute

Hano ndahabona ibicuba byinshi bifunguye birimo amata nkahabona nanone abagabo babiri, umwe aricaye ari gusuka amata uwundi arahagaze agiye gutegura igicuba.

Hano ndahabona ibintu babiri bari muri kantine ifite inkuta z'ubururu, ndahabona icyuma gikonjesha amata, na kontwari irimo ibintu, na etajeri irimo amaji.

Iyi ni kantine, ifite isuku. Itatswe n'irangi ry'ubururu n'umweru, n'ibikoresho bitandukanye, by'ubururu n'umweru. Hari umukobwa ufite telefone, uri muri kontwari. Inyuma ye hari etajeri irimo ibinyobwa bitandukanye, bigizwe n'amazi na ji. Hari n'undi mubyeyi wicaye hafi ya firigo y'umutuku.

Aha ndahabona umuryango ufunguye, hari umuntu uri guhambira amakarito. Mu imbere harimo icyuma gikonjesha amata cyanditseho Mukamira n'ibindi bintu bitagaragara, hari n'akamodoka nako kagaragara igice gaparitse ku muryango.

Aha ndabona ari muri diary hari icyuma gikonjesha amata cyanditseho Industry Limited hakaba hari aka etajeri gafunze karimo utujerekani tw'amata, munsi handitseho ngo Nyanza Farm.

Imbere yange ndahabona amateremusi abiri, imwe ni iy'icyuma, iyindi n'iya parsitike, ndahabona na none akadobo karimo ibintu by'ibiribwa.

Hano ni muri kantine, hacururizwa amata, hari imeza iriho ibikombe bibiri, birimo amata, akabido k'umweru, hari intebe ndetse na kontwari.

Imbere yanjye ndahabona icyuma gikonjesha amata ndikukireba nturutse hejuru, giteretseho akantu karimo seriviyete, kiri muri dayari ifite inkuta zubakishije amatafari ahiye.

Ndabona agakombe gateretse ku meza y'umweru, karimo uduti dukoreshwa mu kwihaganyura mu menyo, tuzwi mu ndimi z'amahanga nka kirida. Hano biragaragara ko ari muri resitora.

Hano ndabona iduka rikinguye, ryanditseho ngo Inyange miriki zone. Rifite imiryango y'ubururu, hanze hari agapuberi gatoya.

Hano ndahabona akabogisi ka giri, karimo seriviyete. Gateretse hejuru y'icyuma gikonjesha amata muri dayari.

Aha ndahabona furigo nkahabona amajerekani ya Jibu agerekeranyije yegereye furigo, bikaba biri mu nzu yubakishije amatafari ahiye afite urugi rufite ibara ry'ubururu.

Imbere yanjye ndahabona imeza y'umweru iteretse mu nzu ku makaro hari n'udutebe dufite imisego ya kaki uko bigaragara aha ni muri kantine bacuruza amata kuko hari n'ibishushanyo bya yawurute.

Hano ndi kuhabona ibicuba birimo amata. Ngiye kubibara: kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, birindwi, umunani, icyenda, icumi, cumi na kimwe, cumi na bibiri, cumi na bitatu. Byose hamwe ni cumi na bitatu. Hari n'abantu babiri, umwe arimo arasuka amata, undi agiye guterura igicuba.

Aha hari abantu batatu bari mu nzu ifite irange ry'ubururu n'umweru ku nkuta bicaye ku dutebe twa palasitake tw'umweru, imbere yaho hari ameza ariho amajagi arimo amata.

Imbere yanjye ndahabona ibicuba birimo amata, biteretse mu nzu irimo amakaro hasi ndetse no ku nkuta. Biragaragara ko ahangaha ari ku ikusanyirizo ry'amata.

Aha ndahabona igicuba kirimo amata, nkahanona umukobwa ufite telefone mu ntoki, nkahabona intebe, hari ameza, kuri ayo meza hariho ikaye ya rejisitire.

Hano ni kwikusanyirizo y'amata hari umuntu afite ijage mu ntoki inyuma ye hari firigo, hari n'icyuma gikonjesha amata imbere ye hari akameza ndetse hari n'idirishya ari kureberamo.

Kuri iyi foto hariho umugati witwa penkupe uba ukasemo uduce twinshi turi ku meza aho duteretse hakaba hari utundi duce tubiri twariweho turi kuruhande.

Ndahabona kantine irimo abantu bane, babiri barahagaze umudamu n'umugabo, abandi bagabo babiri bari gusuka amata mu cyuma gikonjesha bayakura mu gicuba. Hari ibindi bicuba biri hasi nabyo byavuyemo amata.

Aha ndahabona umukobwa yambaye itaburiya y'umweru ari gusuka amata ayakura mu ijage ayashyira mu iyindi jage. Hanze hari abantu babiri, umwe yinjije ukuboko kugira ngo afate ijage bari kumusukiramo amata.

Imbere yanjye, ni ku marembo y'iduka rya nyanza mirike indusitirizi, hagaragazwa n'icyapa kinini kimanitse hejuru ndetse n'ikindi gito gitanga akaribu. Ku muryango haparitse moto hari na kandagira ukarabe ifite indobo y'ubururu.

Ndabona abakobwa babiri bambye iby'umweru bari muri kontwari ya inyange miliki zone, hakaba hari n'abantu babiri bari inyuma yaho, umwe yambaye umupira w'icyatsi aje abagana, undi ariho aratambuka yambaye umupira w'umweru.

Imbere yange ndahabona akatajeri gafite amarangi y'umweru n'ubururu, gateretseho ibyo kunywa bitandukanye, hariho amazi ya NIle, hariho amaji y'ubwoko butandukanye.

Aka ni akazu gateretse hanze aho umuryango ufungukira gakozwe mu byuma gasize irange ry'ubururu kagenewe kubika amazi ya jibu gafungishijwe ingufuri.

Izi ni indobo ebyiri, imwe irimo amandazi, indi irimo keke, zikaba ziteretse ku muryango ufite urugi rw'ubururu, imbere yaho ndahabona umuhanda wa kaburimbo ndetse kuri uwo muhanda hari umuntu wambaye umupira wera.

iyi ni kantine iteye amakaro hasi ikaba ifite ibara ryiganje ry'ubururu urahabona icyapa cy'inyange hari etajeri ipanzemo ama ji, amata, nibyokurya. hari akabido kari kuri kontwari na firigo inyuma yako.

Hano ndahabona ibintu byinshi, birimo icyuma gikonjesha amata, cya Inyange Miliki Zone, inyuma yacyo hakaba hari etajeri ipanzeho ibintu, birimo amazi, amaji, utubido tw'amata, n'udukarito tw'amata.

Hano hari kantine ifunguye, ifite kontwari ya Inyange, ishushanyijeho umwana uri kunywa amata yanditseho ngo "Ni amata meza, ateguwe neza, ashobora guhita anyobwa, yuzuye ubuziranenge". Imbere ndahabona umuntu, etajeri iriho ibintu, na firigo.

Hano ni inzu ifite inkuta z'amatafari ahiye, ni muri kantine, harimo icyuma gikonjesha amata, ameza n'intebe, ndabona etajeri iteretseho inkongoro ebyiri za kinyarwanda hejuru, ndetse hagati harimo amajerekani arambitsemo, hari n'amazi ya nire n'ibindi.

Imbera yange, ndahabona akabogisi gateretse ku meza y'umweru, karimo amagi atatu, na none ako ka bogise karimo akantu k'agakombe.

Hano hari amajerekani abiri apfunduye aryamye mu kaetajeri, gafite irangi ry'inyuma ry'umweru, gateretse mu nzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Ifoto iriho ibintu bikomoka ku matungu harimo udukarito tw'amata y'ikivuguto hakaba hari n'udukombe twa yahurute, agacupa kayahurute, utubido tw'umweru turimo amata.

Aya ni amacupa manini arimo amazi ya nile arapfundikiye ameze neza. Yegereye igikarito kindi cya kaki nacyo kirimo amazi ya nile.

Imbere yange ndahabona abantu batatu bishimye bari muri kantine, bicaye ku ntebe z'umweru bari kunywa amata. Ku meza hari amajagi abiri nayo arimo amata.

Kuri iyi foto hariho aka etajeri gateretseho ibyansi bibiri bya kinyarwanda bikoze mu biti, inyuma y'aka etajeri, hariho icyapa gishushanyijeho inka yo mu bwoko bwa Firizine, hirya hakaba hari ubururu.

Iyi foto iriho akameza gasize irange ry'ubururu gateretseho amateremusi abiri, gateretseho n'akadobo karimo capati.

Iyi ni dayari igizwe n'inzu ifite amakaro, ifite irange ry'ubururu ku nkuta harimo ibyuma bikonjesha amata, hari indobo iteretse hasi, hari n'ijage iteretse ku cyuma.

Imbere yanjye ndahabona isambusa nyinshi, nziza, bigaragara ko ziryoshye, zikorwa n'abantu bizewe kandi beza.

Iki ni icyuma kinini gikonjesha amata kugirango adapfa cya Nyanza miliki indasitirizi, ndi kukireba nkirebeye hejuru. Hafi yacyo hari intebe ihari, iteretse mu nzu yubakishije amatafari ahiye.

Ndabona icyuma gikonjesha amata cyanditseho inyange miliki zone, hirya hari etajeri iriho uducupa twa ji n'utw'amazi n'udushashi tw'amata munsi harimo igicupa cya jibu.

Hano ni muri kantine hari umuntu utagaragara neza uri kurya capati, hari akameza k'umweru gasa neza agatebe k'umweru katagaragara neza hamwe na cotwarirnayo itagaragara neza.

Imbere yange hari imeza iteretseho icyapa cya kofi aho bacuruza ikawa, hari akaetajeri kariho ibinyobwa bitandukanye bya inaji, hari na firigo igaragara igice gitoya.

Aha ndabona muri kantine hari umuntu uhagurutse wambaye umupira w'umukara, hakaba hari undi imbere wambaye akajakete k'ikoboyi, hakaba hari icyuma gikonjesha amata, ndahabona uducupa tw'amazi n'utwa ji.

Imbere yange ni muri kantine ndahabona abana babiri bariho banywa amata barya keke, ku meza hari utubido tubiri tw'amata n'igicuba gitoya, hari umuntu ubagagaze iruhande wambaye umupira w'umweru, hirya hari uwundi wambaye isarubeti y'icyatsi.

Hano hafunguye umuryango kandi hakaba harimo n'umuntu mbere nkuko' ibyapa bihari bibigaragaza ni muri foregisi biro cyangwa biro deshanje aho ushobora gutwara amafaranga y'amanyamahanga bakaguha amanyarwanda cyangwa watwara amanyarwanda bakaguha amanyamahanga wifuza.

Hano imbere yanjye hari itsinda ry'abantu b'abirabura b'igitsina gore hakaba harimo n'umuzungu umwe, bahagaze imbere y'inzu kandi bafite ibicuba by'amata, uko bigaragara ni koperative y'aborozi bari imbere y'ikusanyirizo ry'amata yabo bari kumwe n'umuzungukazi w'umuterankunga wabo.

Aha ngaha hari akazu kitaruye kubabatse nk'agakiyosike gateretse gateretse ku mapave, harimo abantu bakora serivisi zitandukanye kuko habarizwa irembo mobi cakashi, ekwute ejenti, beka yacu, ikofi na foji.

Ndabona akazu ka MTN k'umuhondo karimo umuntu uri gutanga serivise, hanze hari abantu batanu bari gusaba serivise.

Aho murahabona akapa k'umuhondo gateretse kanditseho ngo payi wivi momopeyi kuri kode icumi, mirongo inani na kane cumi na gatatu.

Hano ni ku ishami rya emutiyene hari umukozi wa emutiyene wambaye umupira w'umuhondo wanditseho emutiyene, hari imashini imbere ye, nanone hari umuntu ari guha serivise.

Iri mu iduka rya MTN, harimo amabara y'umuhondo, harimo abakozi ba MTN bambaye imipira y'umuhondo bari gutanga produit za MTN na service.

Aha hari umugabo uri ku igare yatsindiye nk'uko bigaragazwa n'umupira w'umuhondo wa MTN yambaye, inyuma ye hari umu agent wa MTN uri mu mutaka w'umuhondo uri kumwe n'abakiriya.

Ndabona abantu batatu. Abakobwa babiri bambaye impuzankano y'imipira y'umuhondo. Hakaba hari undi mumama ukuze, ndabona n'ibicuruzwa byinshi bitandukanye inyuma yabo.

Hano imbere yanjye ndahabona abantu bambaye imipira itukura n'ingofero zitukura abakozi ba aitel bari mu ihema ritukura imbere yabo hari akameza gatukura kanditseho aitel hari n'abandi bantu bambaye imyenda isanzwe bari kwakira.

Imbere yanjye ndahabona abakobwa babiri bambaye imipira ya emutiyene y'umuhondo, bari mu mutaka wa emutiyene, imbere yabo hari amajire ya emutiyene, imipira ya emutiyene, ndetse hari n'indangururamajwi iteretse ku mapave, bari muri maketingi.

Hano ndahabona kiyosike y'umuhondo ya emutiyeni irafunguye iteretse ku gitaka hafi y'umuhanda wa kaburimbo hari umukiriya uhari wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru ategereje ko bamuha serivise.

Ndabona icyapa kinini kiza cyane cy'umuhondo cya emutiyene momo gifite n'amatara akimurikaho, ahangaha ni ku iduka rya emutiyene uwakenera serivise zose za emutiyene yazihasanga.

Aha ndahabona icyapa cya emutiyeni, momo peyi y'umuntu witwa Ngabonziza Jean Bosco akaba afite kode icyenda zeru makumyabiri na gatanu zeru gatanu.

Imbere yanjye ndahabona abantu batatu, babiri ni abakozi ba MTN umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye umupira w'umweru na baje y'umuhondo ya MTN, ari guha agaseke umudamu w'umuzungu ari gukoramo bigaragara ko ari umukiriya ari gufasha.

Aka ni aka mesaje k'umuntu ugiye koherereza Fabrice Hakuzimana amafaranga ibihumbi, bari bumukate amafaranga makumyabiri, kugirango ayohereze ni ugushyiramo pini. Nakanda sendi araba ayohereje, nakanda kanso araba abihagaritse.

Hano hariho utuzu tw'umuhondo twubakishije amahema twa emutiyene, harimo abakozi ba emutiyene bambaye imipira y'umweru ifite amakora y'umuhondo, ndetse hari n'abaje gusaba serivise.

Ndabona agakiyosike ka emutiyeni, gafunguye, ariko nta muntu urimo. Kari imbere y'inzu, na yo ifite umuryango ufunguye, kabaka kari iruhande rw'ipoto yegetseho icyapa, itagaragara.

Ndabona agakiyoseke k'umuhondo ka emutiyeni hakaba hari n'umuntu wambaye umupira w'umweru, imbere y'ako gakiyosike ahagana hirya hariho abana bahagaze nabo ndetse hari n'abandi bantu bari hirya inyuma yaho nanone, hari na moto iri inyuma itagaragara neza.

Aka noneho n'akaduka ka MTN,karafunguye harimo umuntu arikwakira abakiriya wambaye umupira utukura ,arikwakira abantu hari uwambaye umupira w'umukara hari undi wambaye umupira utukura wa gezi, hari uwambaye ingofero y'umuhondo, aha ngaha uyu muntu ari mukazi .

Imbere yanjye hari akazu k'aga kiyosike gatukura ka eyatari karafunguye hanyuma hanze imbere yako hari abantu batatu bari guseka, bari gukorana mu ntoki, harimo umusaza umudamu, ndetse n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru ufite baji itukura.

Iyi foto hariho abantu bari kubyina umuziki MTN yashyizemo, hari indangururamajwi, hari icyapa cya izihirwe, hari abakozi ba MTN.

Hano hari akazu k'umuhondo ka emutiyeni kiyosike kanditseho mobayilo taransifa karafunguye hari umukiriya ugahagaze iruhande ari gushaka serivise.

Hano ndahabona akazu k'umuhondo ka emutiyeni, umuryango urafunguye, amadirishya arafunguye, imbere ya ko hari akabogisi nako k'umuhondo ka emutiyeni hari n'akana kari kugenda imbere yako,

Ndabona icyapa cya emutiyene cya momopayi cyanditse mu mazina ngo ya Dabushini gifite kode yo kwishyuriraho gatandatu gatandatu gatandatu gatandatu gatatu zeru

Aha ni mu iduka rigizwe n'amabara y'umuhondo, ya emutiyeni, aho bari kugaragaza uburyo ushobora kwishyura kuri momo peyi, ukoresheje kode: gatandatu, zeru, zeru, rimwe, umunani, gatatu, maze ntukatwe.

Imbere yanjye hari akazu k'agakiyosike gatukura ka Airtel karafunze, imbere yako hari umudamu wicaye wambaye umupira w'umuhondo, hari n'abandi bantu hirya n'imodoka.

Uyu ni umucuruzi ucuruza ibantu bitandukanye yamabaye imyenda y'umuhondo ndetse n'itaburiya ya emutuyene, igaragaza ko ushobora kumwishyura ibyo wahashye ukoresheje akorana na emutiyene, cyane kuko n'umutaka umutwikiriye uriho amabara y'umuhondo.

Aha ndabona umukozi wa emutiyene wicaye muri biro ashobora kuba ari savisi senta ya emutiyene, hari imashini n'ibitabo byabugenewe, arimo arafasha umukiriya wambaye umwenda w'umukara arimo araseka ashobora kuba yishimiye ko bamufashije.

Hano haragaragara agakiyosike k'umuhondo ka MTN, karimo umwajenti utegereje gufasha abakiriya, hanze hirya hari umuntu wambaye umupira w'umuhondo wegereye imodoka ari kureba hano ku gakiyosike, hano hino na ho hari umuntu ugaragara inyuma, wambaye ishati y'icyatsi.

Ndabona aga kiyosike(kioske) keza gafite dizayine(design) nziza ,gakozwe mumbaho , hejuru hariho icyapa cya ekwiti banki(Equity Bank) harimo aba agenti .Hari icyapa cya onurayini(online) serivise, muri kiyosike (kioske) harimo abantu babiri bafite ama mashini(machine) n'icupa ry'amazi rya gibu riteretse ku mapave.

Aka ni akazu k'agakiyosike, ka emutiyene, k'umuhondo, gafunguye, harimo umukobwa w'umu ajenti, ari kwakira umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Hano ndahabona icyapa cy'umuhondo cya emutiyene cya peyi wizi momo peyi. gifite kode rimwe, zeru, umunani, kane, rimwe, gatatu.

kuri iyi foto hariho agatelefoni gatoya k'umuntu ugiye kwishyura amafaranga kuri kode ya Momo peyi, ariho areba imbere yiwe ku cyapa. Uko bigaragara hano ni mu kabari kuko ku ruhande hariho amakesi atukura.

Hano hari umutaka w'umuhondo w'umuajenti wa emutiyene, hari icyapa cya mobayiro mani, hari abantu baje bafite ibikapu mu mugongo basanga umuajenti ngo abahe serivise.

Aha ndabona abantu benshi, harimo bato, harimo n'abakuru, babiri bambaye imyenda ya MTN, hari n'umutaka wa MTN, uko bigaragara hari ni kampeyini ya MTN yabaye, hakaba hari uwatsinze, wabajijwe nk'ikibazo, bakaba bariho bamuferesita, banamuhemba.

Aha ndahabona akazu k'agakiyosike k'umuhondo ka emutiyene, karafunguye amadirishya abiri, inyuma yako hari iyindi nzu nayo isize irangi ry'umuhondo.

Iki ni icyapa cy'umuhondo cya emutiyeni kigaragaza ko ushobora kwishyura geti pongo intapurayizezi, ukoresheje emutiyene momo, kuri kode cumi n'umunani mirongo icyenda makumyabiri.

Hano ndahabona umutaka w'umuhondo wa emutiyene, urimo aba ajenti batatu bambaye amajire y'umuhondo ya emutiyene, hariho n'undi muntu umwe bari guha serivise, ndahabona amamodoka menshi, sitasiyo, moto, n'ibindi.

Imbere yange ndahabona akazu kagakiyosike k'umuhondo ka emutiyene, karafunguye impane zose, harimo umukobwa wumuejenti wa emutiyene ari guseka ategereje kwakira abakiriya baza bamugana.

Hano haragaragara ihema rya eyateri rishinze ahantu ku mapave hariho ibyapa byamamaza bya eyateri harimo n'abantu bambaye imipira itukura b'abakozi ba eyateri bariho baha serivise abaje babagana.

Hano hari abantu bambaye ingofero z'umukara, bambaye impuzankano z'imipira y'umuhondo hari n'icayapa cyanditseho ayoba, bahagaze ku itapi y'ubururu nanone inyuma y'icyo cyapa ndi kuhabona undi muntu.

Ndabona akazu k'umuhondo, k'agakiyosike, ka emutiyene, hafunguye, harimo umukobwa, ari kwakira umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Hano ushobora kwishyura umucuruzi ukoresheje apurikasiyo ya emutiyene ugashyiramo kode gatandatu, gatatu, gatanu, gatandatu, kabiri, gatandatu, maze ntihagire amafaranga ukatwa.

Hano haragaragara telefone ntoya ya gatushe, y'umuntu ugiye kwishyura amafaranga ibihumbi bibiri na magana atanu, kuri momo peyi y'uwitwa Jean Bosco. Nta kintu baribumukate.

Aha hari kiyosike y'umuhondo ya emutiyene, harimo umu ejenti wambaye umupira wa rakosite, afite igitabo imbere ye cyo kurikodinga ibikorwa yakoze.

Hano ni ku ishami rya emutiyene ndahabona umuntu uhagaze ategereje ko bamuha serivise mo imbere ndabonamo umukozi wa emutiyene wambaye umuhondo uri imbere ya mashine, inyuma hari intebe abantu bicaraho bategereje ko bahabwa serivise.

Hano ni kw'ishami rya MTN harimo abakozi bambaye imipira y'umweru ifite amajosi y'umuhondo bari kwakira abakiriya baje gukoresha simu swapu cyangwa abandi bose bashobora kuba bafite ikibazo kuri MTN.

Aha ndahabona ihema rya emutiyeni aho ryuzuyemo abantu bari gusobanurirwa ibijyanye na poroduwi ndetse na serivisi emutiyeni ibagenera.

Ndabona iduka rya MTN rifite amabara y'umuhondo n'icyapa cya MTN; ibyapa byamamaza, hari abakozi bambaye imyenda y'umuhondo, hari umuntu uri kwakirwa.

Umugabo wirabura uri guseka yambaye umupira w'umuhundo, awambariye ku ishati y'umukara yicaye ku gare, inyuma ye hari abandi bantu bicaye mu mutaka w'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni, abandi barahagaze.

Aha imbere yanjye hari umugabo wicaye kuri moto, yambaye ikote ry'umukara ari kuvugira kuri terefone, ahagararanye n'umwajenti wa emutiyene wambaye umupira w'umuhondo wa peyi wivi momo, ari kumuha serivise.

Hano hari utuzu tubiri tw'udukontineri kamwe ni aka eyateri gatukura akandi ni aka emutiyene k'umuhondo. Aka eyateri harimo umukobwa ufite telefone, aka emutiyeni harimo abantu bari guhabwa serivise.

Hano ndahabona abantu babiri bahagaze imbere y'imodoka, umwe yambaye ingofero y'umuhondo ifite amabara y'ubururu na rakositi y'umuhondo ifite amabara y'ubururu, yanditseho ngo peyi wivu momo. Ari kwereka undi mugenzi we uburyo ashobora kwishyura akoresheje momo.

Ndahabona umukobwa wambaye umupira w'umuhondo uvugira kuri mikorofone, inyuma ye hari abandi bantu bicaye mu ihema bicaye mu ihema rya emutiyene ry'umuhondo ndetse hari n'icyapa cya emutiyene kiriho abana babiri bambaye neza.

Aha ni ahantu hakorera umu ofisho ejenti wa emutiyene, ari guha serivise abo bakorana, kuko bambaye imyenda y'umuhondo. N'aha hantu hari amabara y'umuhondo, n'ibyapa by'umuhondo bya emutiyene.

Hano ndahabona akazu k'agakiyosike k'umuhondo ka MTN, gafunguye amadirishya yose uko ari atatu, harimo umwajenti wa MTN, ari kwakira umukiriya.

Iki ni icyapa cya emutiyeni usanga ahantu kikwereka yuko ushobora kwishyura ukoresheje momo peyi ntihagire amafaranga ukatwa. Nanone ko ushobora gukoresha amakarita ya viza mu kwishyura ibyo wahashye.

Iyi foto iragaragaza umu ajenti uri ku kazu ka emutiyene k'umuhondo, ari kwandika amakuru mu gitabo cyabugenewe, hakaba hari umuntu ari guha serivise, ahagaze imbere ye, w'umukobwa.

Aba ni abakozi babiri ba emutiyene, bambaye imipira ya emutiyene y'umuhndo n'amabaje, bari gukora simu swapu ku buntu, kandi hakaboneka na jiga imwe imara iminsi irindwi, nk'uko icyapa kibigaragaza.

Ndabona agakiyosike ka emutiyene k'umuhondo kari ahantu hegereye inzu y'amatafari ahiye, karafunguye hari abakiliya babiri bariho bahabwa serivise, hari n'undi uri inyuma uje ubagana.

Aka ni akazu k'agakontineri k'imihondo ka MTN karafunguye amadirisha yose uko ari atatu, hakaba harimo umu agenti ari guha serivise abantu bari hanze baje bamugana.

Iyi ni ifoto y'umumotari wa kampani idelivaringa ibiryo ya rushi fudu. Ahagararanye n'umu ejenti wa emutiyene wambaye agapfukamunwa.

Hano imbere yanjye ndabona umuajeti wicaye wa emutiyene, wambaye ibintu bya emutiyene. Ari mu mutaka w'umuhondo wa emutiyene, ari kwakira umukiriya waje umugana. Amuha serivisi ari kumusaba.

Hano imbere yanjye ndahabona mashine ebyiri ziteretse ku meza ziri kwaka, imbere yazo ku meza nyine hari utwapa twinshi twa MomoPay tw'ama kampani agiye atandukanye.

Imbere yange ndahabona akazu ka emutiyene k'umuhondo, karimo umu ajenti ari gutanga serivise. Hanze hakinguye amadirishya abiri ku mpande zitandukanye, kandi izo mpande zombi zirimo abakiliya baje gusaba serivise.

Aha ndahabona agakiyosike k'umu ejenti wa emutiyene, karakinguye imiryango itatu. Hakaba harimo umu ejenti w'umukobwa wambaye isaha, akaba ari kwakira umukiriya w'umukobwa nawe wambaye umupira utukura.

Kuri iyi foto hariho akazu k'umuhondo ka MTN gakinguye, karimo umu agent arimo araha serivisi abandi bantu bahagaze, hanze yako hariho umuntu wambaye umupira w'umweru, uhetse igikapu, hari n'undi wambaye ishati. Akandi kazu kari hirya k'icyatsi ariko katagaragara neza.

Uramutse ufite amafaranga kuri mobayilo mani, ugashaka kwishyura uyu umucuruzi kuri momo peyi. Wakanda akanyenyeri, ijana na mirongo inane na kabiri, akanyenyeri, umunani, akanyenyeri, rimwe, akanyenyeri, zero, kane, mirongo itatu na gatandatu, mirongo itandatu n'icyenda, akadirishya, yesi. Ugakurikiza amabwiriza. Nta yandi mafaranga wakwishyuzwa.

Hano ndahabona akazu ka MTN k'umuhondo, karimo umu ajenti wa MTN utegereje kwakira abaze bamugana, hirya ndahabona inzu ishushanyijeho amabara atukura ya Eyateli, inyuma y'aka kazu, naho hari utuzu dutoya twa Tigo Cash na Airtel.

Uramutse uguze ibintu ku INUMA TECHNOLOGY, ushobora kubishyura kuri Momo Pay udakaswe, ukoresheje kode zeru, zeru, gatanu, gatanu, cumi na gatatu.

Hano ni muri stade ya mtn hari ihema ry'umuhondo rya mtn ririmo abantu benshi bagizwe n'abakozi ba mtn hamwe n'abakiriya bari gusobanuza ibijyanye na produwi ndetse na serivisi zayo.

Aha hari akaduka ka MTN kakandi aba agenti bakoreramo k'umuhondo, gateretse ahantu hagati y'ipoto n'icyapa, ariko karafunze ntabwo bari kugakoreramo ubungubu.

Uru nin urigi rufunze ruriho ibyapa. Hariho icyapa kiriho hamwe cy'umuhondo cyanditseho ngo wikwisondeka cya mtn, hejuru yacyoo hari akandi k'umweru harimo n'akabara k'icyatsi kariho ngo jigabayite imwe.

Imbere yange ndahabona abantu bambaye imipira y'umuhondo ya MTN yanditseho pay with MoMo. Umwe muri bo, yambaye ingorefo y'ubururu. Ari kumwe n'umukiriya ufite anvelope mu ntoki, amaze kwishyura ibyo ahashye, akoresheje Momo pay.

Aha ni kuri service center ya MTN ndahabona umukobwa wicaye uri kuri machine yambaye umupira w'umuhondo wa MTN, ndahabona umuzungu wambaye baje ya MTN n'umupira w'umweru wa MTN, afite agasecye mu ntoki hari umuntu imbere yabo agahereje ari gukoramo.

Hano imbere yange ndahabona agakiyosike k'umutuku, kariho ibirango bya eyateli karafunguye idirishya. Hirya hari akandi k'icyatsi ariko kagaragara gatoya.

Ndabona agakiyosike k'umuhondo ka MTN, hakaba harimo umu ajenti wambaye isaha, ari kwakira undi muntu bahagararanye wambaye umupira utukura, hirya hari igiti n'abandi bantu.

Hari abagabo babiri bambaye umupira w'umuhondo bashobora kuba ari abakozi ba MTN aha ngaha hakaba ari ku ishami rya MTN bariho barakira umugabo wambaye umupira w'umweru, we uri inyuma ya compuyuta mugihe abandi barimo imbere.

Uyu ni umucuruzi wambaye umupira wa MTN afite ipense mu ntoki acuruza imyenda akorana na MTN iyo bagiye kumwishyura bishyura kuri MOMO Pay.

Ndabona abantu benshi bafite amaterefone muntoki, bakikije imeza n'intebe yicayeho n'umukozi wa emutiyene kuko yambaye umupira wa emutiyene, ariho arasobanurira kuri serivise za emutiyene.

Ndabona umudamu wambaye rinete ufite mverope mu ntoki usa n'uvuye guhaha nkabona abahungu bambaye imipira y'umuhondo bashobara kuba ari abakozi ba emutiyene, n'icyapa cya emutiyeni n'mikindo hirya.

Aha ndahabona agaterefone gatoya gafitwe n'umuntu utagaragara, ariko uyu muntu agiye kwishyura amafaranga ibihumbi bibiri na magana tanu ja bosiko, nta kintu bari bumukare.

Hano ndahona inzu hari n'icyapa cya emutiyene cyanditseho ngo everi weya yugo, hari abantu batanu n'ibyapa byinshi bya emutiyene bihakikije, hashobora kuba ari kuri savise senta ya emutiyene.

Hano ndahabona agakiyosike k'umuhondo keza ka emutiyene, gafunguye amadirishya atatu, karimo abantu babiri. Hanze hakaba hari umuntu wambaye ikote ry'umukara uje gusaba serivise. Hirya yako hari abantu benshi batandukanye.

Hano ni muri bizinesi z'ubucuruzi, hakaba hari abantu batandukanye, hari uwambaye umupira w'umuhondo, ari gufasha umukiliya kugira ngo abone uko yishyura, kuri momo peyi. Hirya hari abacururiza ibyo kunywa, kuko hari icyapa cya kokakola hirya nanone hari abandi bantu.

Iri duka ry'umuhondo ryanditseho Rwanda ridingi netiwaka ni irya Mtn, mo imbere harimo abakiriya benshi cyane baje barigana, harimo n'abakozi ba Mtn no hanze yaryo imbere yaho.

Hano ndabona akazu kagakiyosike k'umuhondo ka Mtn kanditseho ngo sendimani. Karafunguye harimo umu agenti ari guha serivise abantu babiri bari hanze.

Imbere yange ndahabona abantu batatu bahagaze imbere yagakiyosike k' umuhondo gakinguye kanditseho MTN Mobile Money, Tigo cash na Airtel. Inyuma yabo naho hari ikindi cyapa kinini nacyo cyanditseho MTN Mobile Money, Tigo cash na Airtel.

Hano ndabona umuntu utagaragara neza mu maso, afite telefone mu ntoki ari kuyikoresha, hari undi muntu nanone uhagaze imbere ye, ariko na we ntabwo agaragara haragaragaraga amaguru wambaye inkweto z'umukara, hakaba n'imeza itagaragara munsi yayo harimo muritipirize harimo n'imigozi icometse.

Ndabona ahangaha ishami rya eyateli, hari icyapa ku birahure bya eyateli, umuryango urafunguye, na none hanze hari akazu gatoya, harimo n'umuntu, na we utanga serivise kuri eyateli.

Hano hari abantu batatu: umwe yambaye ibintu bitukura ntabwo agaragara neza, ari muri kontwari icuruza ibinyobwa, undi yambaye ibintu by'umuhondo n'ingofero y'umuhondo n'ubururu. Afite akantu ka momo peyi, ari gufasha umubyeyi wahashye kugira ngo abashe kwishyura akoresheje momo peyi.

Muri iri duka ry'umuhondo rya emutiyene, harimo abakozi ba emutiyene bari kwakira abakiriya. Hanze hari indangururamajwi, hari umusekirite uri kuharindira umutekano.

Aha ni ku ishami rya MTN ndahabona umukozi wa MTN wambaye umupira w'umweru ufite ibirango bya MTN ahagaze imbere ya komtiyuta ari kwakira abantu abasobanurira kuri serivise za MTN n'ibicuruzwa byayo.

Aha ndahabona akazu kaga kiyosike k'umuhondo ka MTN hanze hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo uri guseka ahagararanye n'umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ingofero ya cy'isilamu.

Imbere yange ndahabona akazu k'umuhondo ka MTN, harimo umu agenti , nanone hari abantu b'abakiriya baje gusaba serivisi uwo mu agenti wa MTN.

Hano ndahabona akazu k'umuhondo ka emutiyeni aho hari abakobwa babiri bahagaze hanze bambaye imipira itukura bari gusaba serivise ku madirishya atandukanye hirya yaho naho hari abandi bantu.

Hano hari akazu gatukura ka eyateri gafunguye amadirishya uko ari atatu harimo imbere umu ajenti wa eyateri utegereje guha serivise abamugana.

Ndabona umuntu yaje kuri savisi senta ya emutiyene harimo imashini ebyiri ndiho mbona, harimo n'umuntu wambaye umupira w'umuhondo mu imbere ariko atagaragara neza, hino hariho intebe ariko ziriho ubusa. Uwo muntu barimo baramuha serivise.

Hano ndahabona amarangi y'umutuku n'umweru ni ku ishami rya eyateli ushobora kuhasanga ibicuruzwa ndetse na serivisi bya eyateli hari n'akabati karimo telefone za eyateli.

Hano ndahabona ibiganza bibiri bifite terefone ya simati fone ari muri porogaramu ya eyateri ashobora kuba agiye kohereza amafaranga cyangwa kwishyura.

Hano ni mu isoko ricururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo n'abacuruzi benshi. Aha ngaha ku inkingi hari icyapa cya emutiyeni kigaragaza yuko ushobora kwishyura uyu mucuruzi ukoresheje momo peyi ntihagire ayandi bagukata.

Ndabona umuntu uri imbere y'imashini ari gusikana ibicuruzwa kugira ngo abantu baje guhaha bishyure hanyuma imbere hari abantu benshi baje kwishyura hirya yaho hari icyapa cya MomoPay bagomba kwishyuriraho abafite amafaranga kuri terefone.

Imbere yanjye hari kode mirongo ikenda na karindwi mirongo inani n'umunani mirongo itatu na gatanu, ushobora gukoresha wishyura kampani ya rosi oru sizoni teredi kuri momopeyi kugirango ntukatwe.

Hano ndahabona amazina ya kompanyi wifashisha uragura ko ashobora kwishyurwa kuri kode umunani, gatatu, ikenda, gatanu, kane kane.

Hano ni kuri sitasiyo aho umukiriya ari gusikana barikode kugira ngo abashe kwishyura amafaranga kuri momo.

Imbere yanjye ndahabona kode ushobora kwishyuriraho kampani ya RAB-kollexxions. Ari zo umunani, icyenda, gatandatu, gatandatu, gatandatu, umunani.

Kuri iyi foto ndahabona umubyeyi wambaye itaburiya y'umuhondo ya Emutiyene, afite ikaramu mu ntoki, ariho arerekana icyapa cya momopeyi cyanditseho code ze zo kumwishyuriraho kugira ngo bamwishyure.

Aka ni akazu k'umuhondo ka Emutiyeni, k'umuntu ucuruza akanabarura simukadi; hari abakiriya babiri baje bamusanga kugira ngo abafashe: umwe ahetse igikapu, undi afite telefoni mu ntoki.

Ndahabona ibiganza bibiri bifashe telefoni, uyu muntu ari kugura megabayiti magana inani ku mafaranga magana atanu, akoreshe bwa mbere inite, bwa kabiri Momo. Yahisemo Momo.

Ndabona abantu bane hari abamotari babiri hari n'abandi bantu b'abagenzi nabo babiri, uko bigaragara bariho barishyura bakoresheje mobayilo mani kandi bose bambaye udupfukamunwa baba abamotari n'abagenzi bose bambaye udupfukamunwa.

Imbere yanjye ndahabona umugabo wambaye umupira w'umuhondo wa MTN wanditseho pay with momo pay n'ingofero y'umuhondo ya MTN, ari kumwe n'umukobwa wambaye impuzankano y'abasekirite hamwe na baje ya telefone, inyuma yabo hari abana bahahagaze.

Hano ndahabona abantu babiri bahagaze mu ihema, imbere yabo nkahabona ibirango bya MTN harimo ingofero z'imihondo amajire, impira n'amagurude ya MTN, umwe yambaye umupira wa MTN ufite ibara ry'umweru n'ijosi ry'umuhondo.

Imbere yanjye ndahabona moto z'iduka MIGRO zishinzwe kugeza ku bakiriya baryo ibyo bahashye, ku bindi bisobanuro wahamagara zeru, karindwi, umunani, kabiri, gatandatu, zeru, zeru, magana inani mirongo irindwi cyangwa ziru, karindwi, umunani, karindwi, gatandatu, zeru, zeru, magana abiri mirongo itandatu na gatandatu nk'uko zanditse ku mabosi ari kuri izo moto.

Ushobora kujoyininga iyi gurupe maketi purase igizwe n'abantu basaga ibihumbi bine na magana akenda maze nawe ukajya ubasha kugura no kugurisha ibicuruzwa byawe uciye kuri iyi gurupe.

hano hari imodoka yanditseho murukari maketi simati ishobora kukugezaho ibyo ukeneye byose ahantu ahariho hose mugihugu kuva kuwambere kugeza kuwa gatandatu.

Ndabona akamodoka gatukura gaparitse ahantu gafite ndi kukarebera inyuma, ariko ku kirahure cyayo hariho ikibandelore kihafunze, cyanditseho migoro onulayini maketi.

Hano ndahabona moto iparitse mu mapave, hari n'umuntu wambaye kasike y'icyatsi kibisi n'ishati y'icyatsi kibisi yanditseho vuba vuba ari gushyira ibintu mu kabuwate k'icyatsi kibisi kanditseho vuba vuba kari kuri moto.

Imbere yange ndahabona moto iparitse, ihetse bokisi yanditseho kasha, hakaba hari umumotari wambaye kasike y'umuhondo n'ijire y'ubururu, yafunguye iyo bokisi iri kuri moto, ari gushyiramo amvilope kaki, na yo yanditseho kasha.

Kuri iyi foto hariho abamotari benshi bari kugenda mu muhanda, bambaye imyenda itukura yanditseho ngo Yego moto, bambaye n'amakasike bose atukura yanditseho ngo Yego moto.

Imbere yange hari abamotari bane bose bicaye kuri moto z'ubwoko bumwe bahetse amabokisi afite afite ibara rya orange ryanditseho juniya fudu.

Aha ngaha haragaragara amapave ashashe neza, n'igikuta cy'amabuye, hejuru yaho hari uturabyo, ndetse n'ahantu hagaragaraga ko ari muri kirisitizi arishivu resitorenti, iyi rero ni inzira ijya muri iyo resitora.

Hano imbere yanjye hari kompiyuta na terefone, birikugaragaza sitarayivubi nka onurayini magashopu mu Rwanda, ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara zeru, karindwi. iminani ibiri, mirongo itandatu n'umunani, mirongo ine na gatanu, mirongo irindwi na gatanu.

Hano ndahabona umugabo wishimye urimo uraseka, yambaye umupira w'icyatsi wanditseho vuba vuba. Afite anverope mu ntoki irimo ibintu yahashye. Hakaba hari na boxi yanditseho vuba vuba y'icyatsi kibisi.

Ndabona umugabo, yambaye umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara, ahetse akabokisi k'icyatsi, kanditseho vuba vuba, akaba afashe igare.

Uciye kuri jumiya Rwanda ushobora kugura imyenda itandukanye y'abagore, harimo amakanzu, amashati, imipira, amajipo n'ibindi.

Aha ndahabona imodoka zirenga enye zifite amakontineri yanditseho twiga, zikaba ziparitse imbere y'inzu nini ifite inzu imiryango iriho amanimero hari nimero mirongo itatu n'umunani tatu gatandatu na tatu gatanu.

Ndahabona amagambo agize umutwe ari mu buso butukura akaba yanditse mu mweru, hakaba ayandi magambo nanone ari munsi yaho abanzirizwean'amatariki, yo yandikishije umukara akaba ari mu buso bw'umweru.

Aha ndahabona abamotari bageze kuri batanu, bose bambaye amajire asa, bambaye udupfukamunw, bahetse amabokisi asa, kandi bose batwaye moto z'amashanyarazi.

Imbere yanjye ndahabona akabogisi k'amandazi y'urwibutso gafunze neza ku buryo bugezweho, igiciro ni magana atatu na mirongo itanu.

Aha ngaha agakarito ka karite ya mbere karimo utuntu cyangwa piyese makumyabiri nenye, kagurishwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi mirongo ine na bitatu n'ijana.

Hano ushobora kubona igabanyirizwa uguze kuri juniya itike ya rwanda myusike fesitivo ku nshuro ya karindwi ya kigali apu.

Aha ndabona umumotari uhetse bokisi iriho irange ry'ubururu yanditseho ngo gura ibikoresho by'isuku n'ubuzima, ushaka ibyo bikoresho wahamagara icyenda, rimwe, rimwe yambaye na kasike y'ubururu isa n'iyo bokisi.

Twiga ni onurayine shopingi igufasha kuzigama amafaranga wariguha abakarani kuko ifite abakarani bagutwaza. Ku bindi bisobanuro wareba webusiti wa eshatu akadomo twiga akadomo shopu cyangwa ugakoresha watsapu kuri nimero zeru karindwi mirongo ine na rimwe iminani itatu mirongo itandatu na gatandatu.

Uyu ni umumotari uri kuri moto wambaye umupira w'umuhondo kasike itukura, aderivalinze ibintu biri mu kabuwate gafite ibara rya oranje inyuma, ndetse n'umuhondo kuruhande.

Aha haragaragara onulayini shopu, aho ushobora guhamagara kuri telefone cyangwa ukohereza ubumwa kuri watsapu, hanyuma bakakugezayo ibyo ushaka ku buntu.

Aha hari imodoka nini iparitse ifite kontineri yose ishushanyijeho amabara y'ubururu n'umuhondo yanditseho ngo iposita.

Gurisha wivuganiye n'abakiriya mu masaha makumyabiri nane kandi ugure kuri make wivuganiye na banyirabyo uciye kuri hawuzi viya doti komu, randi poroti doti komu na veyiti doti komu.

Hano ndabona umumotari wambaye kasike y'icyatsi n'umupira w'icyatsi, uri gufungura akabogisi kari kuri moto k'icyatsi, ari gukuramo ibintu yarazaniye undi umuntu wambaye ishati y'umweru, uko bigaragara utu mumotari akora derivari.

Aha ndabona umuntu ufite simatifone mu ntoki akaba ariho akoresha apurikasiyo ya vuba vuba arashaka gutumiza ibintu hanyuma vuba vuba ikabimugezaho aho yibereye iwe.

Iyi ni online shopu ushaka gukora ubusabe wahamagara ku ubuntu mirongo Kenda na rimwe cumi na rimwe cyangwa ugakoresha watsapu, zeru karindwi umunani zeru Kane mirongo ine maganatanu makumyabiri na kabiri bitijihise ugakanda akanyenyeri magana Kenda na cumi na rimwe akadirishya ugakurikiza amabwiriza.

Aha ngaha ndahabona kompiyuta, imyenda, amverope, aho ushobora gufungura onilayini sitowa, hanyuma ugatangira kugurisha kuri i gura.

Hano hari moto iparitse imbere y'igikuta cy'amabuye ihetse akabogisi gatukura kanditseho yego. Hariho umuntu wambaye agapfukamunwa ufashe amvelope iteretse ku kabogisi kari kuri moto.

Iyi n'ifoto y'abakobwa babiri basa neza, bishimye, bari guseka bafite impano y'agakarito gafite amabara atukura n'ayera handitseho ngo mirongo itanu ijana, hasi hakaba hariho amagambo avuga ngo duhamagare.

Aha ndahabona ibicuruzwa bitandukanye, hariho, amakanzu, imipira, inkweto, kuteri kandi byagabanyijwe ibiciro kugeza kuri mirongo ine n'akarindwi ku ijana.

Uyu ni umumotari udelivaringa wa rushi fudu, yambaye kasike n'ijire, ahetse bogisi irimo ibintu, afite terefone mu ntoki ari guhamagara uwo ashyiriye ibintu.

Aha ndahabona icyapa kiriho telefone iriho ibicuruzwa bitandukanye na mudasobwa iriho ibicuruzwa bitandukanye ndetse hariho n'amagambo yamamaza, afite umutwe uvuga ngo; kigure akadomo rwa.

Imbere yange ndahabona abantu babiri, umwe yambaye umupira w'icyatsi ari guhereza amverope, rimo ibintu uwundi, uyu w'umupira w'icyatsi ni umukozi wa vubavuva, uderivaringa ibintu aba yatumwe.

Uyu ni umukobwa wisukishije, wambaye amaherena, yambaye umupira w'icyatsi kibisi wanditseho vuba vuba, afunguye akabogisi kanditseho vuba vuba nako k'icyatsi, hari ibintu ari gushyiramo

Hano haragaragara ibirenge by'umukobwa, wambaye udukweto twiza cyane n'inzara zirasize, kuruhande handitse amafaranga ibihumbi icumi na magana atanu y'amanyarwanda.

Imbere yange hari inzu aho hariho igishushanyo k'imideri handitse ngo hawuse ofu tayo. Mu imbere birgaragara ko hacururizwa ibintu by'ubukorikori n'imideri.

Aha hari abantu bambaye impuzankano y'amataburiya, bari gupima ibitoki ku minzani, bakabishyira mutubogisi dutandukanye, hariho utw'ubururu, n'utwumuhondo n'udutukura.

Hano hari firigo y'ubwoko bwiza kandi ikomeye iri muri Kigali, iri ku giciro gito cyane utasanga ahandi.

Ahangaha haragaragaza ko ushobora gufungura shopu onulayini, kuri skayi gadeni. Maze ibicuruzwa byawe bikajya bibonwa n'amamiliyoni y'abantu.

Iyi ni onurayini shopingi puratifomu aho shopufayi egisipati ishobora kukugezaho ibikoresho by'ubwiza kandi ikaba ikora amasaha makumyabiri nane k'umunsi iminsi irindwi kuri irindwi.

Webusayiti dizayini Rwanda, ifasha abantu gufungura webusayiti, guteza imbere ubucuruzi hakoreshejwe webusayiti, kandi yagabanije ibiciro kugeza kuri mirongo itatu ku ijana.

Aba ni abamotari babiri bose bambaye amashati y'icyatsi kibisi yanditseho vuba vuba bambaye kasike z'icyatsi kibisi bahagaze iruhande rwa moto ihetse igikapu cyanditseho vuba vuba.

Imbere yanjye hari umuhungu wambaye umupira w'icyatsi kibisi, afite kasike y'icyatsi kibisi ku bibero bye, ari ku kamoto gahetse bogise y'icyatsi kibisi, araderivaringa atwara ibintu.

Wari uzi ko online ushobora kubona ibyemezo bitandukanye, urugero nk'icyemezo cy'uko uri ingaragu n'ibindi? Nanone ushobora kubona serivisi zose wakenera z'ubukerarugendo n'ibindi.

Imbere yange ndahabona umugabo umeze neza, wambaye rakosite yatebeje ya oranje ufite mu ntoki agakarito ka kaki kanditseho jumiya. Na none hari amayetajeri menshi arimo ibintu.

Ndabona umukobwa ufite imisatsi yambaye linete ashyize intoki ku kananwa, afite telefone mu ntoki ze ariho araseka cyane afite n'amenyo meza.

Hano hari moto iparitse iriho akabogisi bari gufungura kanditseho birase faste endi veriyebo. Nanone hari umuntu uhagaze wambaye ijire n'undi muntu utayambaye.

Uyu ni umumotari atwaye moto ihetse bogisi y'umutuku, nawe afite kasike y'umutuku kandi yambaye agapfukamunwa nawe yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu.

Aha hantu ni heza hamanitse kandi hacururizwa imyenda, hari amasakoshi y'abagore. hari n'amatara agenda abimurika kugira ngo bigaragare.

Hano hari abamotari bane bari kuri moto bari kureba inyuma bambaye imipira itukura kandi bahetse boxi zisa zanditseho ruush furds bigaragara ko bakorana na companiy iderevalinga ibyo kurya.

Aha haragaragara inzu y'igorofa isize irangi ry'umuhondo, iriho icyapa cyanditseho ngo iposita, imbere yayo hari amamodoka atandatu n'amamoto menshi, byose bisize irangi ry'umuhondo, byanditseho iposita.

Hano hari umugabo uri mu modoka wambaye iby'ubururu ufite bogisi akaba ari umukozi wa isoko rigari ushobora kukugezaho aho uri hose ibihahwa waguze ku bimdi bisobanuro wahamagara zero karindwi umunani, mirongo irindwi n'cyenda mirongo inani na kabiri, maganatandatu.

Iyi ni onurayine maketi ya afurifamazi maketi. Aho ukoresheje telefone ushobora guhamagara zeru karindwi umunani mirongo itanu na kane mirongo itatu n'agatanu magana arindwi mirongo ine n'akane maze bakakugezaho aho uri hose ibiribwa ukeneye kandi bigifite umwimerere.

Aha ushobora kugura cyangwa ukagurisha ukoresheje iduka online. Instagram ni iduka.rw, naho facebook ni iduka online. Ushobora no gukoresha whatsapp zeru karindwi, gatatu, mirongo irindwi na kabiri, mirongo itatu na karindwi, magana atanu mirongo itatu n'umunani.

Aha ni muri Kigali apurayingi rimitidi aho bashobora guteza imbere wbusayiti yawe, bashobora kuyidizayininga bagakora ikomerisi webusayiti hanyuma bagakora apurayini payimeti sistemu bakagukorera apurayini apurikesheni sistemu, supamaketi manajimenti, soshomediya maketingi n'ibindi byinshi.

Iyi ni Kimironko maketi aho ibiciro kuri famiri buke igizwe n'ibiribwa by'amoko yose babihanantuye ikava kuri ibuhumbi mirongo itandatu na birindwi magana tanu, ikagera ku bihumbi mirongo itanu na bine magana tanu. Ni karibu.

Ushobora kudawunilodinga onulayini shopingi apu ini Kigali maze bikajya bikorohera kubona ibicuruzwa kandi bigatuma udatakaza umwanya ndetse bigatuma usevinga n'amafaranga.

Aba ni abamotari babiri bambaye kasike z'icyatsi kibisi, bahetse abakobwa babiri bambaye kasike z'icyatsikibisi, zanditseho sefu moto; hari n'utubendera tw'icyatsi kibisi kuri moto.

Aha ndabona moto iparitse imbere y'igipangu, hari n'abantu babiri umwe ni umumotari kuko ijire undi nawe ntabwo ari umumotari ahubwo ashobora kuba ariwe utuma uwo mumotari amuhaye udukarito tubiri duteretse kuri moto, moto iraparitse.

Imbere yanjye ndahabona simatifone yabugenewe iri kuri moto, irimo porogarame ya kanigo ikoresha jipiyesi, ifasha umumotari kumenya aho agiye urugendo akoresheje ndetse n'amafaranga umugenzi ari bwishyure.

Ndabona igishushanyo cy' isaha n' inyuguti ya N ubwo isaha isimbura O ubwo ni on hirya hakaba handitseho time mu nyuguti z' umutuku, hasi hakaba handitseho first mu nyuguti z' umweru na delivery mu nyuguti z' umuhondo.

Uyu ni umumotari uri kuri moto iri mumuhanda w'amabuye, wambaye ishati y'icyatsi kibisi, uhetse bogisi nayo ifite irangi ry'icyatsi kibisi.

Uramutse ukoze sabusikarayibu kuri kuri wa eshatu akadomo imari akadomo rwa, wajya uba uwambere umenya amakuru kubicuruzwa, n'igabanyirizwa ryabyo ryabaye kuri ikomerisi puratifomu mu Rwanda.

Aha ndahabona moto imwe ihetse akabosi kanditseho vuba vuba, hari n'bamatari babiri bose bambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero nazo z'icyatsi, bigaragara ko ari abamotari ba vuba vuba.

Aha ndabona ifoto, hejuru hariho imbuto nyinshi, harimo urusenda, harimo inyanya, harimo utubuto twinshi, n'izindi, hasi na none ndi kuhabona tangawizi, nkabona na kokombure, hanyuma handitseho ngo fureshi vejetabozi.

Uyu ni umumotari ukorana na kampani idelivaringa ibintu, yambaye umupira w'umuhondo na kasike itukura, ahetse bogisi ifite ibara ry'umuhondo ku ruhande n'ibara rya oranje inyuma yanditseho poze derivari.

Iyi foto iriho moto iparitse ku mapave imbere y'igipangu, hakaba hariho bogisi y'umutuku, ndetse hari n'umugabo wambaye umupira utukura, afite amvelope, yambaye n'ingofero itukura n'agapfukamunwa.

Uko bigaragara iyi ni Cross Border Shopping Store, aho ushobora kugura ibintu mu Burayi no muri Germany, maze bikakugeraho aho uri hose ku isi hifashishijwe indege n'amato.

Kui iyi foto hariho urukweto ryiza rufite marike ya Nike ushobora kujya kuri www.kigurire.rw ukaruhaha barangiza bakarukugezaho k'ubuntu, abari hanze ya Kigali bishyura igihumbi gusa.

Uramutse ukoze sabusikarayibu kuri wa eshatu akadomo imari akadomo rwa warya uba uwa mbere umenya amakuru ku bicuruzwa n'igabanyirizwa ryabyo ryabaye kuri ikomerise puratifomu mu Rwanda.

Ndabona moto iparitse hafi y'umuhanda wa kaburimbo ikaba ihetse bogisi itukura yanditseho grasi, hari umuntu uhagaze iruhande rwayo wambaye ijire uri gushyira ibintu muri iyo bogisi.

Ubu ni ubucuruzi bwa World Wide E-Shoping aho ugurira online ibicuruzwa bya electronic bitandukanye, imyenda, inkweto. Ku bindi bisobanuro wahagamagara Zero Iarindwi Itatu Mirongo Itatu na Karindwi Zero Mirongo Itatu na Gatatu.

Imbere yanjye ndahabona umugabo munini ari guseka mwiza wicaye kuri moto, yambaye rakosite ifite amabara y'umuhondo na oranje, ahetse igikapu na cyo gifite amabara y'umuhondo na oranje cyanditseho ngo poze derivari.

Iyi ni ifoto irimo abamotari bane bambaye kasike z'umukara batatu undi umwe yambaye kasike itukura, moto zose ziriho bogisi zisa zifite ibara rya oranje.

Izi ni moto ebyiri ziparitse zikora akazi ka derivari; kubera yuko zose zihetse ama box yanditseho, ''pose derivari''.

Ndahabona moto iparitse ku mapave iriho bogisi, ifite ibara ry'icyatsi yanditseho vuba vuba, moto iruhande rwa kaburimbo imbere ya moto hari igiti ariko kitagaragara neza.

Hano ndabona ukuntu ushobora kugura ibintu onulayini mu buryo bwizewe uhamagaye ku buntu icyenda rimwe rimwe cyangwa ugakoresha watsapu zeru karindwi umunani zeru kane kane zeru gatanu kabiri kabiri.

Imbere yange hari moto iparitse ku mapave, iriho ikibogisi cy'icyatsi, hakaba hari umugabo urigufungura iyo bogisi arigushyiramo ibintu, yambaye ishatsi y'icyatsi kibisi ndetse n'ipantalo y'ubururu ntabwo agaragara neza mu maso.

Ukoresheje onorayini shopingi maketi ya migoro bashobora kukugezaho ibyo ukeneye byose kubuntu. Ushobora kandi kubakurikirana ku mbuga nkoranyambaga.

Iyi ni moto iparitse, ikaba ihetse bogisi y'ubururu, uko bigaragara iyi moto ikoza akazi ko kuderivaringa ibicuruzwa.

Aha hari akazu kariho irangi ry'icyatsi kibisi, gafunguye imiryango yombi, kariho ibishushanyo by'imbuto z'amoko yose ndetse n'imboga z'amoko yose

Aha ndahabona ifoto ya Nkurunziza, umukozi ukorana na puratifomu ya Yubeyi doti komu, ifasha abantu guhaha onurayini.

Hano hari moto, iparitse ku mapave, ifite bogisi y'icyatsi iyiriho, bogisi yanditseho ngo "vubavuba".

Hano ni muri supamaketi, harimo etajeri nyinshi nziza kandi zipanze neza, ziriho ibintu byinshi kandi bipanze ku buryo bunogeye ijisho, iri rikaba ari isoko ry'abasirimu.